Abagabo babiri bazamuye ibirahuri, bicaye ku meza yo mu nzu icuruza ubwoko bwinshi bw'ibinyobwa byiganjemo inzoga, ndetse ikaba ari nzu zifashishwa mu gususurutsa abantu, ndetse nokwakira ibitaramo, cyane cyane nk’amasabukuru.

Isahani iriho ubwoko bw'ibiryo bugiye butandukanye .Bwiganjemo ibirayi banyujije mu mavuta ndetse n'umuceri ,hakaba hariho n'ifi itetse mu buryo bwa kijyambere. Ubu bukaba ari uburyo bukunzwe gukoreshwa mu ma hoteli ndetse n'izindi nzu zicuruza ibyerekeranye n'amafunguro.

Icumba kirimo etajeri zirambitseho inzoga z'igiye zitandukanye harimo na firigo y'umuhondo yanditseho sikolo. Imbere y'aho hari umuntu wambaye ishati y'umweru, ndetse uri gukora mu cyuma cifashishwaga mu gukora ikawa, kirambitse hejuru ya etajeri.

Imbuga nini izitiye, yubakishijwe amapave, irimo ameza ndetse n'intebe bikoreshwa mu kwakira ibitaramo, ndetse n'abantu bashaka gusangira mu gihe habaye umunsi mukuru.

Isahani y'umweru iciyemo akarongo k'umukara, irambitseho ibijyo bitetswe mu bujyo bugezweho aribyo: inyama zirambitse ko ikirungo cya seleri, ubu bukaba ari ubujyo bwifashishwaga n'inzu zicuruzaga ibijyo ku bakiriya bazo kugira ngo babashe kujyohegwa.

Icyumba kiri mo utubati turi mo ibinyobwa bisembuye, byifashishwa mu tubari ndetse no mu bitaramo. Ibi bikaba ari ibinyobwa byifashisha mu gususurutsa abantu, ndetse bikaba byifashishwa mu bitaramo, bigiye bitandukanye.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho irimo intebe zifashishwa n'abantu baje gusura ndetse no kwiyakirira aho hantu , baje gufata amafunguro ya buri munsi cyangwa se bakoreshejemo ibirori cyangwa ibitaramo akaba ariho bakirirwa hakaba hafite n'amatara y'umuhondo.

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye ku meza arambitse mu muhanda mu gihe cya nijoro. Akaba ari abantu bicaye ku meza barimo basangira, ndetse banaganira. Akaba ari ibintu bikunda kuboneka cyane mu mijyi, aho abantu bicara mu masaha ya nijoro banywa icyayi ndetse n'ibiryo basangira.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe z'umuhondo, imbere yabo hari imeza y'umuhondo yanditseho uruganda rukora inzoga, hakaba hari n'amacupa y'inzoga ndetse n'ibirahuri by'inzoga basutsemo, zikaba ari inzoga zikorwa n'uruganda rufite ayo mabara y'umuhondo ari kuri iyo meza banyweraho.

Isahane iriho ibiryo biteguye mu bujyo bwa kijyambere birimo, inyama, ibitoki, ibitunguru ndetse n'imbuto y'indimu. Bukaba ari ubujyo bukoreshwa n'inzu zitegura ibiryo, ndetse bikaba binakoreshwa n'abantu nyir'izina mu ngo zabo.

Ifi nini iziritswe mu byuma, ikaba irimo irotswa munsi harimo umuriro, ikaba inasize n'ibyatsi biyifasha kongera uburyohe. Ubu bukaba ari uburyo bukoreshwa n'inzu zigurisha ibiryo, uburyo bwo gutegura amafunguro y'ibijyanye n'ibikomoka mu nyanja cyane cyane amafi.

Iduka ricururiza imbere y'umuturirwa rikaba ricuruza ibijyanye n'ibiryo haba ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa akaba ari iduka umuntu ajyayo kurya saa sita cyangwa se mu gihe abonye umwanya arangije akazi.

Inzu y'amagorofa abiri: Aho igorofa ryo hejuru ribarizwa mo inzu icuruzwamo ibiryo bihiye ariyo bizwi nka resitora. Ndetse hasi hakaba hari iduka riranguza bimwe mu Ibicuruzwa byiganje mo amazi, amasabune, ndetse n'ibindi bicuruzwa byifashishwa mu rugo.

Amaduka abiri rimwe rifunze irindi rifunguye, rifite icyapa kigaragaza ibyo ricuruza byiganjemo inzoga, ari nabyo byapa biri munsi y'icyo kigaragaza izo nzoga zose. Aho imbere yaho haparitse ikinyabiziga byifashishwa n'abakarani mu gutwara ibyo binyobwa.

Inyubako z'ubucuruzi zubatswe ku muhanda akaba ari inzu ziboneka mu mijyi mito mito yo mu byaro. Akaba ari amazu acuruzwamo ibikenerwa n'abaturage n'ingo z'abantu nkeya.

Inzu yubatse ku muhanda igizwe n'amabotike acuruza bimwe mu bigiye bitandukanye muri byo hakaba ari iduka ricuruza serivisi za emuti ene ndetse n'irindi ricuruza ibijyanye n'ibikoresho byo mu rugo.

Amaduka yubatse ku muhanda afite amakaro hejuru no ku nkuta, ariho umutaka wa MTN ndetse n'ibindi bicuruzwa biri mu ka etajeri. Haciyemo umuhanda uciyemo imirongo, ndetse n'umugore wambaye agapira k'ubururu ndetse n'ipantaro y'icyatsi wicaye ku dutebe dutoya.

Inzu yubatswe ku muhanda iparitseho igare，ikaba igizwe n'amaduka arimo acuruza ibijyanye n'ubukwe， aho bacuruza imyenda y'abageni ndetse bakaba banabambika. Aya maduka ni amwe mu yifashishwa n'abashaka kurushinga ndetse n'abandi bashaka gukora ibitaramo bifashishije imikenyero ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye.

Amaduka yo ku muhanda acuruza bimwe mu bikoresho byo mu nzu byiganjemo intebe zo muri salo ,ameza n'imisego yayo. Hakaba hari n'irindi duka ricuruza bimwe mu bikapu ndetse n'imipira y'abantu bambara.

inzu yubatswe ku muhanda ifite igiti imbere, hariho ibyapa byerekanaga ibicuruzwa bicuruzwaga muri aga maduka aribyo: amamotora, ibikapu n'ingofero ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwaga mu kubaka amazu gagiye gatandukanye.

Ikamyo nini iparitse imbere y'inyubako nini kuri iyo kamyo hakaba harimo ibikarito by'umuhondo, byifashishwa mu gutwara amakaro kuri ibyo bikarito hakaba hari abagabo babiri barimo bapakurura ayo makaro bayajyana mu nzu; ubu bukaba ari uburyo bwifashishwa mu gutwara ibintu babivana ahantu babijyana ahandi hakoreshejwe aya makamyo.

Iduka ricuruza ibikoresho byifashishwa mu ngo byiganjemo amasafuriya, ibitebo bikozwe muri Pulasitike, indobo, amabase, imikoropesho, byose byifashishwa mu ngo. Bikaba bicuruzwa mu maduka yegereye ingo z'abantu.

Itsinda ry'abagabo batatu umwe wambaye ingofero, bahagaze imbere y'inzu yubakishejwe amakaro hejuru ,ndetse isize n'irangi rya oranje ku ruhande ruriho icyapa kigaragaza ibyo iduka ricuruza bigizwemo n'ibiryo ndetse n'ibinyobwa.

Inyubako iriho igipapuro kigaragaza ibyo iduka ricururiza kuri iyo nyubako ricuruzwa . Muri ibyo bikaba higanjemo ibyerekeranye n'imigati, ibyo kunywa ndetse n'ibyo bakoresha mu kikoni ndetse n'ibyifashishwa mu gukora amasuku. Ibi byose bikaba ari ibicuruzwa muri iyo duka.

Iduka rifite imiryango isa nka oranje, rifitemo utubati twi'ibirahuri ndetse n'imiryango y'ibirahuri, rikaba ari iduka ricuruza imigati ndetse n'ibindi bishamikiranye n'ifarini.

Inzu zubatswe ku muhanda imwe yubakishijwe amakaro imbere, indi ifite ibara rya move irimo amaduka atatu abiri afunguye, imbere y'aho hari ipoto y'amashanyarazi itwaraga insinga mu baturage.

Ikigo cy'ubugeni bwiganjemo ubukoreshwa intoki ndetse n'ubukoresha amakaramu ,kikaba ari ikigo gifite inzu zitatse bimwe muri ubwo bugeni ndetse n'ubusitani bukizengurutse, kikaba ari ikigo giherereye mu majyaruguru mu birunga.

Inzu yubatswe mu buryo bwa kijyambere ifite ibaraza. Ifite amabara y'umutuku, ndetse hejuru y'iryo baraza hakaba hari ibyapa biranga ibicuruzwa bicuruzwa muri ayo maduka ari muri iyo nzu. Ari byo byiganjemo ibiribwa, gaze ndetse n'amatiyo, byifashishwa mu ngo.

Icapa cy'iduka ry'imideri ryitwa Ngoga, kigaragaza bimwe mu bicuruzwa iri duka rigira ;iri duka rikaba rigira bimwe mu bicuruzwa by'imyambaro aho bagiramo: amakoti, amasengeri, inkweto, imikandara ndetse bakaba banacuruza n'amasogisi.

Amaduka yegeranye abiri arimo amatsinda y'abant, agizwe n'abagabo n'abagore aho amaduka acuruza ibicuruzwa bifitanye isano n'uburiri aho bacuruzamo ibiringiti, imisego, ibitenge ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Icapa c'umutuku canditseho amagambo g'umweru kigaragaza umuyoboro w'itumanaho witwa eyateli, aho ugaragaza ibyo wasanga aho barimo baragaragaza aho birimo ama inite kugura simukadi no kuyiswapa, kubikuza ndetse na paka n'iminota bigiye bitandukanye.

Imodoka iparitse imbere y'inyubako yo ku muhanda ，icuruzwagamo bimwe mu bikoresho byo mu nzu byiganjemo utubati， ibitanda ndetse n'ameza， aho imbere y'iyo nyubako hacururiza bamwe bo bita abazunguzayi， akaba acuruzamo ibyo kurya byiganjemo amandazi ndetse na za karoti.

Ibicuruzwa bya palasitiki bigizwe n'amabase g'umukara ag'icyatsi, ag' ubururu n'ag'umuhondo byegeranye n'ibikombe bya oranje n'iby'ubururu, ku ruhande hari n'amagare g'umukara ndetse n'ubururu byose birambitse kuri sima y'amapave.

Ikikoni cyubatswe n'amakaro kikaba gifite amashiga abiri arambitseho amasafuriya. Iki kikaba ari ikikoni cya kijyambere aho abantu bakifashisha cane cane mu ma hoteli ndetse n'izindi nzu zicuruzaga ibiryo.

Inzu yo ku muhanda igizwe n'amaduka, ariho ibyapa bigaragaza bimwe mu bicuruzwa bicuruzwa muri ayo maduka. Muri ibyo bicuruzwa bikaba bigizwemo n'inzoga ndetse n'ibikomoka ku matungo ndetse n'ibikomoka ku bihingwa. Ibi bikaba ari ibicuruzwa bicuruzwa muri aya maduka.

Uruja n'uruza gw'abantu biganje mo abagabo n'abagore, aho abagore babiri bambuka umuhanda, umwe yikoreye imishingirizo, ahagaze iruhande rw'umuhungu urimo aratwara ikinyabiziga cy'igare, imbere ya bo hakaba iduka ricuruza serivisi za emutiyeni, ndetse na ho imbere hakaba hari imodoka yifashishwa gutwara abagenzi.

Inzu yubatswe ku muhanda ibarizwamo amaduka acuruza ibintu bigiye bitandukanye. Aho harimo iduka ricuruza ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi birimo amabati, imisumari, inyundo ndetse na parafo. Mu gihe iruhande rw'aho hari iduka ricuruza imwe mu myambaro ndetse rikanasana imwe mu myambaro yangiritse.

Iduka ryo ku muhanda rizitijwe ibyuma bya senyenge, rikaba rifitemo inzu ntoya yubakishijwe ibiti aho abantu babishaka babasha kuba bafatira amafunguro yabo, barimo barumva amahumbezi y'akarere iryo duka riherereyemo.

Iduka ry'icyatsi rifite akabaraza kubakishijwe amabati y'ubururu, rikaba ari iduka ricuruza ibijyo bigiye bitandukanye, higanjemo ibikoreshwa n'abantu mu ngo ku giti cyabo, ari byo ibisheke, ibihaza, ibiribwa n'ibinyobwa bigiye bitandukanye.

Inzu yubatswe ku muhanda, igizwe n'amaduka acuruza bimwe mu bicuruzwa bitandukanye byiganjemo imbuto ndetse na gaze zifashishwa mu guteka. Aya akaba ari amazu yubakwa mu mijyi mitoya kugira ngo yifashishwe n'abaturage kugira ngo babone ibyo bakeneye mu buzima biboroheye.

Ibidomoro bitanu bigizwe n'iby'umukara ,ndetse n'umuhondo, bikaba birambitse ku makaro ,akaba ari bijekani byifashishwa mu gutwara amavuta y'imodoka ,ndetse n'amarangi yifashishwa mu gusiga inzu ndetse n'ibindi bisukika bigiye bitandukanye.

Inzu yubatswe mu buryo bwa kijyambere ku muhanda ifite ibihangano by'indabo imbere yayo， ikaba icuruza ibintu byerekeranye n'ibiryo ndetse n'inzoga. Izi zikaba ari inzu abantu baruhukiramo igihe bashaka kurya ndetse no kunywa cyangwa se kuba bakoreramo ibitaramo.

Iduka jyo ku muhanda ricuruzaga imyenda zo kwambara ziganjemo ibikapu, ingofero, amashati ndetse n'uduseriviyete. Imbere yayo hariho intebe zikozwe mu mishanana ndetse n'ibiti kandi imbere yaho hari n'akabati gakozwe muri parafo.

Inyubako y'ubucuruzi yo ku muhanda, ibamo amaduka acuruza ibijanye n'ibikoresho byo mu rugo. Harimo amagaze, imikubuzo, amarakerete ndetse n'ibiribwa bigiye bitandukanye. Aho ari amaduka akunda kuboneka cyane mu midugudu ndetse no mu tundi duce two mu byaro.

Ikinyabiziga cy'amapine abiri, gisudiweho ibyuma cifashishwa n'abakarani igihe bashaka kujana ibintu babijyanye ahandi mu mujyi. Ubu bukaba ari ubujyo bwifashishwa n'abo bakarani igihe barimo barajyana ibintu babivanye aho babirangurira, igihe bifite umubare munini w'ibyo bintu.

urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu kibuga cy'ibitaka, kirambitsemo imifuka y'inyanya, ndetse n'ibitunguru, abo bantu bakaba barimo baragurisha ibiryo.

Amaduka acuruza ibicuruzwa byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, higanjemo gaze n'amashiga yazo, aho aya maduka akunda kuboneka cyane mu biturage, aho yifashishwa mu kwegereza abaturage ibyo bakeneye.

Urujya n'uruza rw'abantu bambuka umuhanda ndetse n'abandi bahagaze bagura mu maduka ari imbere yabo. Ayo maduka akaba acuruza bimwe mu bicuruzwa byiganjemo ibikoreshwa mu rugo, birimo: intebe, ibikapu, ameza ndetse n'imibavu yifashishwa mu gutera mu myenda kugira ngo umuntu agende ahumura.

Inyubako irimo amaduka acuruza ibintu bigiye bitandukanye, byiganjemo impeke. Zirimo ibigori, ibishimbo ndetse n'amafu yifashishwa mu gutegurwa amafunguro ya buri munsi.

Inzu yubakishijwe amakaro, ifite inzugi z'ubururu hejuru hari icyapa kigaragaza ibyo bakoreramo byibanda cane mu gukata imisatsi mu bujyo bugiye butandukanye.

Inyubako yubakishijwe amakaro ku muhanda iriho ibyapa bigaragaza ibyo bacuruzamo mu maduka ari muri iyo nzu aribyo amarangi n'ibindi bigiye bitandukanye byegeranye n'iduka ricuruza serivisi z'itumanaho za eyateri.

Iduka ryo ku muhanda ricuruza amagare, ndetse abaricururizamo bakaba batanga serivise yogucura imfunguzo ndetse nogukanika amagare yapfuye. Aya maduka akaba akunda kubarizwa mu makaritsiye, ndetse no mu midugudu igiye itandukanye, aho abakoresha ibyo binyabiziga by’amagare bayifashisha mu gihe byapfuye."

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo, harimo Abanyafurika babiri bambaye utubaji tw'ubururu ndetse n'abazungu babiri bahagaze ku mapave, imbere y'inyubako y'ishami rya Banki ya Kigali ryubakishijwe n'inzu zigezweho, ndetse n'imiryango z'ubururu zifitemo ibirahuri bya fime.

Inzu ebyiri zubatswe mu bujyo bugezweho, imwe ifite amabati g'icatsi indi ifite amabati g'umutuku imwe y'icatsi ifite n'urukuta rusa nk'icatsi, ifite igipangu cy'umutuku cyegereranye n'icapa kigaragaza iduka ricuruza ikawa ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Icyapa kigaragaza amerekezo y'aho inzu zicuruza aho aho kurara ndetse n'ibiribwa hitwa kuri Kalasike. Hakaba hari ibyapa biranga ahantu ho kujya mu gihe hari umuntu ukeneye kuhagera atabashije kumenya aho yanyura.

Inzu yo gukodesha ifite igipangu gisakarishijwe amategura, ndetse inafite n'urugi rukozwe mu mbaho. Izi zikaba ari inzu umuntu yishura bitewe n'igihe araza kumaramo, maze yamara kumara icyo gihe cyose yishuye, akaba yagenda hakaba hakwinjiramo n'undi wifuza kuba yaruhura.

Urujyanuruza rw' abantu bari kugenda imbere y' inyubako yubakishijwe amabati, munsi yayo harimo amaduka menshi acuruza ibiryo, ndetse n' ibikoresho bakoresha batwara ibyo biryo ari byo udufuka; ibyo biryo bikaba bigizwe ibyo kurya n' ibyo kunywa ari amafu, ndetse n' imbuto z' igihe zitandukanye.

Uruja n'uruza rw'abantu barimo banyura imbere y'amaduka acuruza imyambaro, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu ngo ndetse imbere y'ayo maduka hari imodoka y'umukara iparitse ireba imbere.

Etajeri y'ibiti irimo igikarito kirimo ubunverope bune bw'ibigori, bigizwe n'ifu, hejuru hariho ubundi bukarito bw'umutuku n'umukara. Akaba ari ibicuruzwa bicuruzwa mu maduka cyane ayo muri karitsiye.

Etajeri y'ibiti irimo n'igikarito kirambitseho ibicuruzwa bicuruzwa mu iduka bigizwe n'itoroshi, amavuta yinka, n'amavuta yandi y'ubururu, ku ruhande hari umukasi ndetse na borose zifashishwa mu koza amenyo.

Ibiti byegamijweho ihema ririmo impeke zigiye zitandukanye arizo ibigori n'ibishimbo, aho ari uburyo bukoreshwaga n'abacuruzi bacuruza mu masoko, bashaka kwereka abakiriya bakeneye ibicuruzwa byabo ko ingano bashaka yaboneka.

Urujya n'uruza rw'abantu bagizwe n'abagabo n'abagore barimo banyura mu mujyango ugizwe n'ibirahuri. Uwo muturigwa wubatswe n'amakaro y'umuhondo, imbere y'umuturigwa hakaba hari ushinzwe gucunga umutekano w'uwo muturigwa.

Imbuto zirambitse ku nkoko ndetse no mu bikarito zigizwe n'imyembe ndetse n'imbuto bita umuraburizo. Izi zikaba ari imbuto zishigwa ku isoko kugira ngo abaguzi babashe kuba bamenya aho bazikura ndetse zifashishwe mu gutegura amafunguro ya buri munsi.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere, ihagazemo umugore uhetse umwana, imbere y'igisima kirambitseho imifuka irimo ibiribwa byiganjemo impeke ndetse n'indobo zirimo amafu y'impeke.

Umufuka gwegeranye n'igikarito kirimo imbuto za Mandaline, ibinyomoro ndetse n'amaronji, izi zikaba ari imbuto zifashishwaga mu gutegura amafunguro yuzuye, ndetse zikaba ari imbuto zijyanwa ku masoko kugira ngo abaguzi babone aho babona bagura.

Ameza g'ibiti garambitseho ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byiganjemo ibyo bambara harimo imyenda y'imbere ndetse ku ruhande hakaba hari imifuka zirambitseho ibijyamigwa, ari izo misego ndetse n'amashuka, bikaba biri mu isoko aho abaguzi bahurira n'abacuruzi.

Umufuka gurambitseho ibimera bigiye bitandukanye byiganjemo ibikoreshwaga mu guteka ndetse no gutegura imboga aribyo : inyanya, karoti ndetse na pavuro aho ari uburyo babikoresha babirunda hamwe kugira ngo umucuruzi abashe kuba yatwara ingano y'ibyo yifuza.

Urujya n'uruza rw'abantu banyura imbere y'umuturirwa munini witwa Goyiko, akaba ari isoko rya kijyambere. Iri rikaba ari isoko ryifashishwa n'abacuruzi ndetse n'abaguzi bakorera mu mujyi wa Musanze, n'abatuye mu mujyi wa Musanze. Rikaba ari isoko rifasha mu gucuruza ibiva hanze ndetse n'ibiba mu Rwanda.

Uruja n'uruza rw'abantu biganje mo abagore, aho bateraniye bacuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, cyane cyane ibyibanda ku buhinze, aho bacuruza mo ibitunguru, inyanya ndetse n'ibyo bita inoryi za kizungu.

Itsinda ry'ibicuruzwa bimwe muri byo bigizwe na parasitiki, ndetse muri byo byiganjemo ibikoreshwaga mu rugo aribyo: ibikombe, amabase, indobo, amasafuriya, imyuku, birambitse ku gisima. Ibi bikaba ari ibikoresho byifashishwaga cyane mu ngo mu gihe barimo barategura amafunguro gabo.

Ibiribwa by'amoko gagiye gatandukanye byiganjemo imboga, n'ibihaza, ndetse n'imbuto z'amaronji, birambitse ku mbaho. Aho birambikwa ku mbaho kugira ngo bibashe kuba byacuruzwa mu masoko agiye tandukanye.

Uruja n'uruza rw'abantu bahagaze mu isoko ricuruza ibyerekeranye n'imyambaro, cyane cyane inkweto. Aho muri iri soko inkweto ziba zirundanyije ahantu hamwe, cyane cyane izitwa bodaboda.

Uruja n'uruza rw'abantu baremye isoko ricuruza ibintu byiganjemo ibiribwa， aho dusangamo intoryi， ubunyobwa ndetse n'imiceri hamwe n'andi mafu yose agiye atandukanye， aho abacuruzi bahura n'abaguzi bifuza guhaha bimwe muri byo ariko mu ngano ntoya.

Inzu yubakishijwe n'ibyuma, mu nsi yayo hariho amahema atwikiriye ibicuruzwa biri mu isoko, hariho n'ibicuruzwa bidatwikiriye byiganjemo imbuto ziribwa arizo pome, ibinyomoro n'indimu, bikaba bicuruzwaga mu masoko kugira ngo abacuruzi babashe kuba bagera ku baguzi byoroshe.